Aha hari umusore mwiza cyane, ari guseka yambaye isa ku kuboko, afite ubwishingizi bwe mu ntoki. Ari kugaragaza ati ibizazane by'ubuzima ntibiteguza, ubwishingizi bw'impanuka bwa perimi bugufasha kuguma utekanye.

Aha ngaha hari icyapa cyamamaza ubwishingizi bavuga ngo ubwishingizi bwa kinyamwuga bagashyiraho akavi rwose bakavivura, ubundi bakandika bati ishime, tekana kubera y'uko wishingiwe.

Aha ngaha bari kwamamaza ubwishingizi ku bijyanye n'ubuzima aho bagira bati: "Radianti yacu bakongera kandi bakagira bati gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango wawe."

Iri ni itangazo rya radiant, radiant ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, baragira bati tugeze mu gihe cy'imvura. Imvura nyinshi, imyuzure, n'ibindi biza byakwangiza inyubako. Bakagira bati irinde sinamenye ugure ubwishingizi bw'inyubako maze ugire umutekano usesuye.

Aha ngaha hari icyapa cyo ku muhanda mbese ni nka ekara igenda icaho amashusho agiye atandukanye, aha harimo ishusho ivuga iti shyira telefone yawe kure, kugira ngo wirinde ibyago wahura na byo mu gihe utwaye.

Aha hari ishusho igaragaza ibijyanye na konti yawe ya emutiyene, aho bakwereka ibikorwa byose byakoreweho, bakakwereka isaha wehorejeho amafaranga, igihe yagendeye ndetse n'igihe uwo wayoherereje yamugereyeho ndetse n'igihe wabikoreye.

Aha hari ifoto igaragaza ubwoko butandukanye bw'amavuta yaba ayo kwisiga ndetse n'ayica udukoko, harimo ayica za mikorobe nka sanitayiza, hakabamo amavuta yo kwisiga ya gikotori ndetse n'ayandi bakoresha bakunze kwita ay'amazi.

Aha ngaha ni aho imodoka ziparika, ikigaragara haparitse amamodoka menshi kandi yose ni meza, ni ahantu heza cyane hateye ubwuzu, hasi hari amakaro ndetse n'imodoka zihaparitse ni nziza. Nawe wahaparika ari wowe.

Aha hari inyubako ndende kandi nziza, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, iyo urebye hirya yayo ubona hateye ibiti byiza bisa nkaho ari birebire ariko na none bitari birebire cyane.

Aha hari abasore babiri. Aba basore bose bari kureba imodoka. Barayitegereje cyane iyo modoka bisa nkaho iparitse mu rugo, urwo ni urugo rwiza, ni urugo rukorotiriye, rukorotirijwe ibyuma rumeze neza cyane. Ni abasore beza bamwe n'inzobe undi akaba igikara. Kandi bose bigaragara ko bishimiye kubona iyo modoka.

Aha haparitse imodoka, imodokadoka nziza cyane, harimo iz'amabara yose, harimo piki, harimo umukara, harimo aruminiyumu, ni nziza cyane, zifite ibinyoteri by'umutuku, zombi zambaye amapurake, zimeze neza pe.

Aha ngaha ni aho bisi ziparika. mu byukuri turi kubabona bisi zanditseho vorokano, izi vurokano turazizi ni bisi nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziparitse ahantu hejuru yaho hasakaje amabati.

Aha hari umuntu uri kubara amafaranga biragaragara ko afite igikoresho kabuhariwe bifashisha mu kubara amafaranga, ariko kandi yamaze kuyabara kuko ayafite mu ntoki, afite mu ntoki rwose ari kwifotoza, bigaragara ko yishimiye ni amanyakenya rwose, amafaranga ya kenya ameze neza.

Iyi ni ifoto y'inoti y'ijana, iri kugaragara neza cyane irarambuye, iteretse ku meza rwose bayifoto irambitse nta na hamwe igoramye, igaragaza ibiranga mafaranga byose, iri hano turi kuyibona.

Aha hari agakiyosiki karimo umukobwa ucuruje ndetse hakaba hari n'umusore usa nkaho yaje kugura ndabona ari gushishoza ngo arebe niba ibyo yaje kugura birimo, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyane cyane byiganjemo ibinyobwa, harimo fanta, ji ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha hari agakiyosiki, kano gakiyosiki bigaragara ko gacururi ibinyobwa ndetse kandi bakaba bashobora kuba bacuruza n'amayinite, ikigaragara cyo harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo inaji ndetse na tuwisite.

Amandazi ari mu gisorori ni amandazi meza kandi menshi, amandazi atukura cyane, ariko na none iyo urebye iryo baciyemo kabiri, ubona ko mo imbere risa umuhondo, amandazi meza agaragara neza twese turi kureba tukabona arashimishije.

Aha hari umuntu uri gukoresha telephoni ye yohereza amafaranga, ari kuyakoresha ayohereza kuri MTN, ari gukanda imibare ndetse akanereka abantu uko byakunze, nk'uko bigaragara afite telephone ye mu ntoki akereka abantu ko ibyo ari gukora ari impamo.

Aha hari abantu babiri bigaragara ko baje gushaka serivisi. Mbese baje kwishyura, kuko hejuru yabo hari icyapa kivuga ati "ishyura, ishyura, ishyurire ku gihe." Bigaragara ko ari nk'inyubako y'ubucuruzi, ariko kandi bakaba bacuruza ibijyanye n'amafaranga.

Aha ngaha hari ubutumwa bugaragaza ko wamaze kwishyura cyangwa kohereza amafaranga wifashishije uburyo bwa emutiyene mobayiro mani, aha ngaha rero bari kugaragaza yuko ubu ako kanya byabaye bakakubwira ati uko amafaranga yoherejwe.

Aha hari ubutumwa bugufi ugiye kohereza amafaranga yakira bwa mbere, aho bamubwira ati urakaza neza kuri emutiyeni mobayilemani, bakamubwira ati kohereza amafaranga, kwishyura serivisi z'amazi ,kwishyura amayinite yo guhamagara, konti yawe, ibikorwa bya banki inguzanyo , ubufasha cyangwa se poromosiyo.

Iyingiyi ni ifishi igaragaza umwirondoro w'uwemerewe kuba yageze mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Hariho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, hakabaho imyirondoro y'umuntu ndetse n'ubwishyu bwe.

Iyi ni ifishi igaragaza umwirondoro wuzuzwa iyo ugiye gufungura konti muri banki ya Kigali, nkuko biri kugaragara ushyiraho nomero ya telefone yawe, ugashyiraho nomero ya konti, ugashyiraho amazina yawe ndetse n'ibindi byose bikenewe.

Iyi ni ifishi yuzuzwa ku muntu wamaze kwinjira mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro nk'uko bigaragara hariho ikirango cya repubulika y'u Rwanda hakabaho imyirondoro yose y'umuntu wamaze kwinjira hariho nk'amazina, nomero ya konti ye ndetse n'ibindi.

Aha bari kugaragaza imashini kabuhariwe mu kubara amafaranga, bari gushyiramo amafaranga maze yose uko agenda avamo imibare yayo ikigaragaza hejuru, mu by'ukuri uri kuyikoresha bigaragara ko ashobora kuba hari abandi bantu ari kubyigisha kuko ari kubatungiraho urutoki.

Biragaragara ko ari ibiganza bibiri by'umugabo, afite amafaranga anyuranye ayafite mu ntoki, bigaragara ko ari mu byiciro, kuko n'amabara yayo ubwayo aratandukanye ari kuyabara akongera akayitegereza, ayafite mu ntoki ze.

Aha hari ibishushanyo by'amafaranga agiye atandukanye, amafaranga yose akoze mu noti, harimo ijana, magana abiri, magana atanu, igihumbi, ndetse na bitanu. Aya mafaranga yose agiye afite ibiyaranga.

Aha hari ibiganza bibiri, hari uri guhabwa hari n'undi uri kwakira, ariko nti twahita tubyemeza neza kuko bashobora kuba bari kugurana cyangwa se umwe akaba ari guha undi abika.

Aha hari umuntu uri kubara amafaranga aya mafaranga ni menshi harimo inoti z'ijana, harimo n'inote za magana abiri, hari amafaranga ari ku mafimbo hari nayo afite mu ntoki ari kubara, imbere ye hari akamashini yifashisha karagaragara neza cyane rwose kuko gateretse imbere ye.

Ahangaha bigaragara ko ari ku kibuga cy'indege, kuko biragira biti ugihabwa uruhushya uragenda. Ahangaha hari abantu bari guhabwa serivise zigiye zitandukanye, hari abamama, hari abasore ndetse hari n'inkumi, hari n'ahantu hateganyijwe ho kwicarwa.

Aha hari salo nziza cyane. Irateguye hari intebe nziza, hari utumeza twiza, ariko igitangaje muri ibyo byose, hateretse ibido. Iyo bido rwose ntago isa neza kandi iteretse muri salo nziza.

Aha hari agashushanyo k'inyabutatu urebye kamwe gafatiye mu kandi n'akandi kakaba gafatiye mu kandi, bivuze ngo biri kugaragaza uburyo ubufatanye bugira ikintu cyiza.

Aha hari aga kiyosiki gatangirwamo serivisi z'ubwishingizi, nk'uko babigaragaza baravuga ngo ubwishingizi shinganisha ubuzima bwawe ubagana maze bagufashe.

Ahangaha haragaragara nkaho aho hahurira abantu benshi, ariko kandi bikagaragara ko habera igikorwa gikomeye, kuko harimo ama mashini menshi, harimo intebe zitandukanye, igaragara ko ari salle ikorerwamo akazi. Iyi nzu rero iri kugaragara irimo intebe eshatu zitukura hakabamo iz'umukara ndetse n'imashini.

Aha ngaha hari hari kumurikwa ibihangano, biragaragara neza ko ari banki ya Kigali, iyi banki ya Kigali; yari yagiye gusura abaturage, aho bamurikaga ibihangano bakoze, hagaragara rwose umubyeyi wakoze agaseke, agakora mu mabara ya banki ya Kigali; ariyo ubururu n'umweru.

Aha ngaha eko banke irakangurira abantu gukora cyane kugira ngo bagwize ibyo binjiza, baragira bati kuba kabiri umushahara wawe, aha ngaha bari bari guhugura, cyari igihe cyo guhugura abantu uburyo wakongera umushahara.

Aha hari ifishi yuzuzwa kugira ngo umukiriya ahabwe inguzanyo, iyi fishi mu by'ukuri nk'uko igaragara, iriho imyirondoro iyo ariyo yose ikenerwa kugira ngo umuntu bamuhe inguzanyo, iyo myirondoro yose iba ireba uhabwa inguzanyo.

Aha ni urujya n'uruza, bigaragara ko ari mu isoko, harimo abantu bagiye batandukanye, hari abicaye hari abahagaze, hari abarangaye ndetse hari n'abari kwitegereza ibicuruzwa, muri iri soko harimo inkweto, imyenda, ndetse n'udukinisho, hari umugabo wicaye bigaragara ko asa n'uwarangariye umukobwa uri kumuturuka imbere.

Aha hari umusore wicaye mu iduka, iri duka ndabona ricuruza ibintu bijyanye n'umuco gakondo, ndi kubonamo uduseke, inkoni, nkabonamo ibicuma, ibisabo, nkabonamo amasaro, n'ibindi nk'ibyo.

Aha ni mu isoko ry'imboga n'imbuto, turi kubonamo abacunga umutekano baje kwihahira nk'abadaso, turi kubonamo abacuruzi, abacuruzi bagiye batandukanya bari gucuruza imboga n'imbuto bigiye bitandukanye, harimo inyanya, karoti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu isoko ry'imboga n'imbuto. Harimo abamama bacuruje. Harimo umumama uteruye akana, acuruje ibitunguru ndetse n'inyanya, puwavuro, tungurusumu ndetse n'urusenda. Hakurya ye hari abandi bamama na bo bacuruje nk'ibyo. Ubwo ndavuga inyanya. Hari abazicuruje mu tudobo, hari n'abazishyize ku miranda.

Aha ni mu isoko isoko rwose ubona ko hacururizwamo imyenda ndetse n'inkweto, harimo abatayeri bari kudoda bari kudoterara kumashini zabo zikoreshwa banyonga harimo abantu benshi muri iri soko harimo n'ibicuruzwa byinshi n'imyenda igiye itandukanye y'amashuka amakuvurori ndetse n'amajezi.

Aha hari inyubako y'ubucuruzi, hari amatara ndanga cyerekezo ari mu muhanda ndetse hagaragara ko kuri iyi nyubako y'ubucuruzi hariho ibyapa byinshi byamamaza, byamamarizaya amakampanyi agiye atandukanye atanga serivisi mu baturage. Hari abaturage bari mu muhanda bigaragara ko bari gushaka kwambuka, hari n'abapolisi bari kubafasha kugira ngo babashe kubona iyo serivisi.

Aha hari umukecuru uri kumwe n'umwana biragaragara ko yishimiye gukorana na MTN, MTN yicaye imbere y'agakiyosike kayo mu mabara meza y'umuhondo ndetse n'umweru, barishimye cyane umukecuru rwose yasubiye mu buto.

Aha hari imodoka ndetse irimo uyitwaye ,uyitwaye ari kureba umuntu uri hanze yambaye umupira wa emutiyeni rwose byanditse mu magambo hamwe na emutiyene umuyoboro woroshye kandi ugezweho.

Aha hari abantu bari mu mahugurwa, barahugurwa bakabyumva ndetse biragaragara ko hari umwe uri kwereka mugenzi we, akamwereka muri telefone ye uko ibintu yabikoze, arabyishimiye arakurikira neza aramureba akabyitegereza ndetse cyane.

Aha hari umugabo utwaye moto, yambaye inkweto z'umweru zirimo utubara tw'umukara, yambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'icyatsi ndetse na kasike y'icyatsi. Ahetse isanduku y'icyatsi.

Hano hari umukobwa mwiza ari guseka afite amaso meza, ari gusobanurira ibijyanye n'ubuzima bwiza, akagaragaza amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo guteka, bigaragara ko yishimye ni mwiza cyane, ikigaragara cyo ibyo ari kuvuga ni ukuri.

Aha hari ishusho igaragaza igice cy'amaguru cy'umuntu w'umukobwa, yambaye udukweto tw'abakobwa hariho utwara twiza, ariko igitangaje handitseho bati kigore, bakongera bakagaragaza igiciro bakavuga ko ari miliyoni n'ibihumbi mirongo itanu by'amanyarwanda.

Aha hari kugaragara icyo ushobora gukoresha amafaranga yawe miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda ni icyo waguramo rero hano i Kigali mu Rwanda, bagaragaje inzu nziza cyane, ni inzu irimo amakaro hasi, ni inzu nziza irimo parafo kandi yubatse neza cyane.

Ahantu hari inzu ebyiri kandi nziza. Izi nzu ziri imbere y'umuhanda. Imbere yazo haparitse moto. Si ibyo gusa, kuko hejuru yaho haranditse ngo iyo nzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu.

Aha hari umuntu uri kwamamaza icyapa cya kampani ibungabunga ndetse ikanishingira ubuzima, ari kugaragaza ko le tariki makumyabiri n'umunani z'ukwacumi bibiri na makumyabiri na rimwe, aha ngaha agaragaza uwafashe ifatabuguzi ry'ubwishingizi kuko haragaragara amazina ariyo Mucyo william, hakagaragara n'amafaranga yishyuye ariyo miliyoni n'ihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Aha ni inyubako nziza, ni inyubako ndende cyane mu buburebure bwayo kuko ushobora gusanga igeretse inshuro zirenga icumi, imbere yayo hateye ibiti byiza by'inganzamarumbo byenda kuyiyingayinga mu burebure, munsi yayo haparitse imodoka nziza ifite amapine umunani, rwose imeze neza.

Aha ni mu iduka ricuruza ibiribwa kuko biri kugaragara yuko harimo umubyeyi w'umu mama ubyibushye cyane, ari gupakira ibiribwa abikura mu iduka atereka mu kantu kameze nk'ingorofani, mu by'ukuri biragaragara ko asa nk'ushaka kubisohora hanze.